Abapolisi barinze umuyobozi mukuru. Umuyobozi bamurinda bamurindaga iyo hari ahantu agiye.

Abapolisi bakoraga akarasisi mu myiyerekano yabo kandi bafashaga abaturage mu kubacungira umutekano gwabo kugira ngo abaturage babeho bameze neza kubera bafite umutekano mwiza.

Imodoka bazijyana muri kontorore, aha hari umutekano uhambaye, kugira ngo basuzume ubuziranenge bw'izo modoka zabo, bizafasha ba nyir'imodoka kudateza impanuka nyinshi mu muhanda.

Abapolisi bagomba kuba bari ahantu hose, habereye ibikorwa bihuje abantu benshi, kuko abapolisi bagomba gucunga umutekano w'abaturage.

Polisi zaje gutabara ahantu hari habereye inkongi y'umuriro, bazimyaga umuriro bakoresheje kizimyamwoto.

Abaturage barishimye cyane, kubera ko polisi y'igihugu iri kubafasha mu byo bakeneye, polisi y'igihugu ifasha abaturage mu kubacungira, umutekano wabo wa buri munsi.

Abapolisi n'abadaso bari gutanga amabote yo guha abakozi babo babafasha mu mirimo yo gucunga umutekano.

Abaturage bitabiriye ku bwinshi inama y'abaturage. Umuyobozi wabo ari kubabwira ibijyanye n'ibyo bagomba gukosora kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza nk'abaturage.

Abantu bitabiriye inama. Inama bayitabiriye, bagiye kuganiriramo ibintu byinshi byafasha abaturage.

Abaturage n'abayobozi n'abashinzwe umutekano bose bitabiriye inama yaribate yari iteganijwe kuba, iyo nama bagombaga kuganirirwamo ibijanye n'uko imibereho myiza z'abaturage zakwiyongera.

Abaturage bitabiriye k'ubwinshi inama y'abaturage yabereye mu kibuga, umuyobozi ari kubaganiriza ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage muri iyo nama.

Intore zibyinaga zirambuye amaboko gazo, zambaye n'amayogera n'iminigi mu ijosi.

Intore zibyinaga ibya Kinyarwanda. Abakobwa bategaga amaboko bambaye n'inigi mu majosi bambaye n'imikenyero.

Ingorofani zifashishwaga mu buhinzi mu gutwara ibihingwa, cangwa zikifashishwa mu ngo bari gutwara ibindi bikoresho byo mu ngo ku ngorofani.

Imbehe ni igikoresho gakondo, cyakoreshwaga kera n'abaturage. Bagikoreshaga bari kukiriramo kibaga kibajwe mu biti baragiseneje, neza kugira ngo kigaragare neza bakibazaga muti.

Kera basokozaga imisatsi bakambara inigi, bakayisokoza bayihagaritse, bagategamo n'urugori.

Mu muco wa kera bavuzaga umwirongi. Umwirongi ni igikoresho bahuhamo umwuka kigakora nk'inanga, cyangwa inzogera bari nko gucuranga. Bacurangaga bakoresheje umwirongi.

Abakaraza bigishaga abazungu kuvuza ingoma, bitumaga na bo bumva bishimye kuko babaga bamenye ibyo mu muco wa kinyarwanda.

Intore ababyinnyi b'abagabo babyinaga bambaye bya cami, bafite amacumu n'ingabo, babaga bambaye amayogera ku maguru gabafasha kubyina neza.

Guno ni umuvure bengeragamwo ibitoki cangwa bagakamiramo ibitoki, ug'umuvure, bagaburiragamo inka ubwatsi.

Ibyibo ni ibikoresho gakondo bikoreshwaga mu bukwe cyangwa se mu rugo bisanzwe. Ni ibikoresho byo mu rugo. Bikoreshwaga kandi babitwayemo ibyo bagiye gusurisha abandi bantu bagiye gusura.

Umwuko wegetse ku nkingi y'inzu. Uyu mwuko wifashishwa n'umuntu ugiye kuvuga umutsima. Ni igikoresho cyo mu rugo bakoresha.

Icyansi ni igikoresho gakondo, bagikoreshaga banyweramo amata. Bakinyweragamo amata cyangwa se bakakibikamo amata. Kibaga gikozwe mu giti.

Akanyejoro bagakoresha bari kwahira bari kukahiza ubwatsi bw' amatungo cangwa bagatemeshaga amakoma bwo kugaburira ihene.

Mu muco gakondo ibyansi babikamiragamo amata cangwa se bakabinyweramo amata . Ibisabo byo babicundiragamo amata， kugira ngo batandukanye amazi n'amavuta.

Umuco gakondo intore zibyinaga ziri guhamiriza, iyo ziri kubyina zirahamirizaga ziba zifite amacumu n'ingabo.

Igisabo ni igikoresho gakondo bagicundiramo amata, igisabo ntabwo bakizirika barakijisha.

Iy ni i isekuru n'umuhini byifashishwa. Ni igikoresho cyo mu rugo cyifashishwa mu gusekura ibiribwa, cyangwa se imbuto cyangwa se imiti gakondo.

Mu muco baravuga ngo: Icyansi ntago kimeneka ,kiraribora ,ubwo kino cyansi cyararibuboye, cyangwa se cyarasetse.

Ugu ni umuvure, bagubaje mu giti, bagubazaga mu giti, bakagukoresha bari gukamira mo ibitoki cyangwa inka ziri kunywera mo amazi, ziri gushoka.

Aba bantu bagaragara nk'aho ari abantu ba kera bo mu gihe cya kera ku ngoma y'abami. Umuco wa kera ni gutya babaga bameze.

Umwami kera yanwaga itabi, akarinwesha, akarinwera mu nkono y'itabi. Yabaga afite icumu, yambaye amasaro, yambaye n'ibinigi.

Ibisabo n'ibicuma nibikoresho gakondo bakoreshaga mu gihe mu bihe bya kera .Igicuma bakinywesha inzoga.

Uburo bwahinzwe neza, bwakurikiranwe neza mu murima busa neza bwenda kwera, burabura igihe gito ngo busarurwe busa neza. Abahinzi babuhinze barabukurikiranye neza cyane.

Abantu bajya mu bukwe gutwerera bambaye neza cyane, bajyanye ibiseke babyikoreye, baba bagiye gusura abandi bantu na bo bafite ubukwe.

Umuvure bagwengeramo ibitoki ,nigikoresho gikozwe mu giti kibaje mu giti bengeragamo cyangwa bakamiramo ibitoki. hari ahandi bagushoreragamo n'inka zikanyweramo amazi.

Mu muco wacu intore ziba zifite ingabo n'amacumu, zambaye n'amayogi. Zirabyina, zibyina imbyino za kinyarwanda.

Mu muco gakondo abantu barabyinaga, ico gihe babaga bishimiye ibirori barimo cangwa se ubukwe, barabyinaga bakishima bakumva bose baguwe neza.

Ibirago ni ibikoresho byiza cane bikoreshwaga umuco gakondo babyicaragaho barabisasaga hasi bakabyicaraho kugira ngo nyine baganire neza batuje.

Igitebo n'umupira gw'akarere, igitebo ni igikoresho bakoresha mu rugo. Isekuru n'umusekuzo babikoresha bari gusekura mu rugo, cya bari gusekura ibyatsi, ibyo kurya, n'umupira gw'akarere abana baragukinaga.

Mu muco, ibisabo barabihingaga, bibaga bimeze nk'ibihaza. Bikera, bikuma, bakabisarura. Bamara kubisarura bakabikora mo ibisabo byiza tuzi twese. Byifashishwa mu gucunda amata. Bacundiraga mo amata kugira ngo, batandu amata n'amavuta.

Bafumbiraga ibihingwa byabo, bakoresheje itazi, na ryo rifasha mu gukura kw'ibihingwa.

Ibi ni ibikondo uno muntu afashe, byifashishwa mu kugenderaho mu gihe ufite ikibazo cy'imvune z"amaguru. Bikagufasha kugenda ntugume ahantu hamwe, ugashobora kugenda.

Abantu bicaye mu bwato; ubwato ni igikoresho kigendera hejuru y'amazi gifasha abantu kuva ahantu hamwe kibajana ahandi hantu.

Umukecuru wa kera yabaga yambaye urunigi, yambaye n'uruhu. Afite n'inkoni yo kugenderaho, cyangwa se akabando.

Ikibumbano cyabumbwe neza ku muhanda, uwo muhanda uriho ikibumbano gifasha abantu kumenya amateka ya kera, uko yabaga ameze.

Intore zibyinaga kinyarwanda， zibaga zambaye amayogi ku maguru， zambaye n'ibinigi mu ijosi by'amasaro， zikenyeye n'imikenyero cyangwa se imishanana.

Umukaraza avuzaga ingoma ari guzicuranga. Iyo umukaraza ari kuvuza ingoma, aba hari, haba hari ingoma hari n'imirishyo, yambaye ibinigi.

Mu muco gwa kera habagaho ibitebo, intara, amasekuru n'imihini zazo, n' ibibindi n'udukono. Byose babikoreshaga mu buzima bwa buri munsi bwo mu rugo.

Umuvure ni igikoresho gakondo kibaje mu giti bakoreragamo imirimo zitandukanye, nko gukamiramo ibitoki, gushoreramo inka, cyangwa se ibindi bintu bishobora gukorerwamo.

Abaturage babumbaga inkono mu gitaka cy'ibumba. Inkono bazibumbaga mu ibumba, zikaba zifashishwa mu mirimo ya buri munsi mu ngo z'abaturage. Inkono cyangwa ibibindi.

Aga ni amasaka gari mu muririma gatari gera ngo bagasarure. Amasaka bagakora mo umusururu go kunywa cyangwa bakagakora mo n'imbuto yo gutera.

Umuco gakondo habamo, ibicuma n'imiseke n'udukonzo. Udukonzo badukoresha bari gutera ibishyimbo mu murima.

Ubu ni ubwoko bw'abantu baba hanze batari abanyarwanda, kubera ko ukuntu basa, n'ukuntu bagaragara, ntabwo bagaragara nkaho hari abanyarwanda, bivuze ngo ntabwo ari abanyarwanda ariko n'abantu b'ahandi hantu hatari murwanda.

Inzu zo hambere zabaga zubakishijwe ibyatsi n'amategura. Abantu b'ibwami cyamba bo hambere, bitabiraga ibirori ibwami, bakagenda bakenyeye imishanana. Bakenyeraga imishanana' bafite n'amacumu n'inkoni.

Ico gikoresho gikoreshwaga mu rugo. Bakibohaga mu byatsi bagakoresha n'utudodo tw'imifuka. Utudeyi.

Mu muco gakondo wacu, abantu ba kera babumbaga ibibindi n'inkono bakoresheje itaka ry'ibumba.

Mu muco wacu ibisabo babicundiragamo, ibyansi bakabinyweramo amata , ibicuba babikamiragamo.

Umuduri ni igikoresho gakondo bagikoreshaga bari gucuranga kugira ngo bashimishe abantu bitabiriye ibirori, bagicurangaga bari kugihuhamo mo imbere cyangwa bakakizunguza kikavuga.

Ibi nibikoresho byo hambere ;urusyo ni ibuye basyeragaho amasaka cyangwa se uburo. Inkoko ni igikoresho kiboshwe neza mu migozi babohamo n'icyibo na cyo bakibohaga mu bwatsi.

Iyi ni ipensi bayikoreshaga bari gukora umuriro gw'amashanyarazi. Bari gufunga nk'insinga cyangwa bafite ibindi bintu bari gukora. Ni bwo bakoreshaga iyi pensi.

Igikoresho cy'amashanyarazi bagikoreshaga bari kureba uko amashanyarazi ari kugenda cyangwa se gari gukora mu bundi buryo gagomba gukoramo.

Akabogisi gakoreshwa mu mashanyarazi, kabagamo insinga cyangwa imigozi yifashishwa mu gutanga umuriro gw'amashanyarazi.

Uyu ni umukanishi akoraga ibijanye n'amashanyarazi, ari guteranya insinga z'amashanyarazi kugira ngo azikoreshe ibyo zigomba gukora.

Iyi ni imashini yifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi mu baturage. Kugira ngo ubagereho neza, umuriro w'amashanyarazi.

Iyi ni imashini yifashishwaga mu gusakaza umuriro gw'amashanyarazi mu baturage.

Zino ni insinga z'umuriro gw'amashanyarazi. Bazikoreshaga bari gukora umuriro gw'amashanyarazi. Kugira ngo abantu bose babone ugo muriro go gucana.

Gano ni amatara g'amatibe maremare, bagakoreshaga bari gucana. Mu gihe ahantu bari nta rumuri ruhari, baragacanagaga gano matara.

Imashini yifashishwaga mu bikorwa byo gukwirakwiza umuriro gw'amashanyarazi mu baturage. Ikaba ifasha abatekinisiye mu gukwirakwiza ugo muriro gw'amashanyarazi.

Iki ni igikoresho cy'amashanyarazi. Kibaga gifashe mu gikuta bacomekaga mo undi mugozi, kugira ngo bacaginge telefone, radiyo cyamba se bagiye gucomeka televiziyo.

Iki gisahane gifasha abafite televiziyo kureba neza amashusho aca kuri televiziyo, gikoresha n'umuriro gw'amashanyarazi.

Iyi Tesiteri cangwa sipensi ni igikoresho gikoreshwa n'abatekinisiye bakora umuriro w'amashanyarazi, cangwa se bakora mu mazi, kibafasha gutesitinga umuriro gw'amashanyarazi.

Izi ni imashini zifashishwaga mu gutanga umuriro gw'amashanyarazi ku baturage kugira ngo babashe gutura ahantu heza kandi hacanye.

Inzu yubatse neza y'ikigo nderabuzima cya Rwankeri kivura abaturage. Havuyeyo abaturage, bavuye gushakayo serivisi.

Aha bari kuhubaka umuhanda w'abaturage. Kugira ngo bazajye bagenda neza mu muhanda.

Runo ni urusengero rwa kera ariko rutubatswe mu buryo bwa kijambere, ni urusengero rw'abaturage ruriho ikigega na kandagirukarabe.

Inzu z'abaturage bakeneragaho serivise, zubatswe ku bufatanye na leta. Leta yafashaga abaturage kubaka amazu, kugira ngo bazabashe kubona serivisi z'ibijanye na leta bitabagoye.

Umuhanda munini kandi mwiza gwuwubatswe na leta, kugira ngo abaturage bazaje baragwunyuramo, bagende bameze neza batari kunyura mu byondo. Ugwo muhanda gubatsweho izindi nyubako, nazo zifasha abaturage mu kazi kabo ka buri munsi.

Inyubako z'amashuri zubatswe ku bufatanye na Leta. Zigagamo abana benshi kugira ngo abo bana bazavemo abayobozi b'ejo hazaza kandi beza.

Uru ni urusengero abantu basengeramo mu gihe bashaka gusenga. Ni urusengero runini Kandi rwiza.

Inyubako nziza cane leta, yubakiye abaturage kugira ngo bazazituremo, izi nyubako zubatswe mu buryo bwa kijambere, zizafasha abaturage bazazibamo kumva batuye neza, kandi batekanye.

Icapa kibaga ku muhanda gifashaga abatwaye ibinyabiziga. Kutatwara ku muvuduko mwinshi bikabarinda impanuka nyinshi ziberaga mu muhanda.

Imihanda za leta, hafi ku muhanda gwa leta hariho ibiro by'akarere ka Nyabihu kavuguruye kubatse neza.

Gano ni amashuri g'inshuke gubatswe neza. Gari mo ibikinisho by'abana, bizaja birabarabafasha kuruhuka mu mutwe.

Leta yubakiye abaturage ikiraro cya kijambere kugira ngo kiborohereze kugenda mu duce dutandukanye.

Inyubako y'urusengero ni inzu abaturage cyangwa abakirisitu basengeramo iyo basoje imirimo yabo bajya kwiragiza Imana bagasenga. Basengaga Imana ikabakorera ibitangaza.

Imihanda myiza yubatswe na Leta, ikayegereza abaturage kugira ngo bazajye barakora ingendo bitabagoye . Kuri iyo mihanda hubatsweho inzu nziza z'ubucuruzi bacururizamo.

Bakoraga imihanda bari kuzitsindagira， bakoreshaga ibimodoka binini bigenda biri gutsindagira umuhanda munini bari gukora gwa Leta.

Guno ni umugezi gutemba ariko gwubatseho ikiraro hejuru. Ikiraro cyiza cy'abaturage banyuragaho bari kwambuka umugezi, kibafasha kutagwa mu mazi ngo habe ibiza.

Inzu yubatswe neza, imeze neza ,inasa neza yubatswe ku bufatanye bwa leta, ikegereza abaturage imibereho myiza zabo, izabafasha kubaho neza bijanye n'igihe.

Hano ni mu mirima za leta. Bubakagamo imihanda cyangwa bakubakamo amaborodire yo kunyuramo amazi.

Bino ni ibikoresho bakoreshaga bari kubyubaka ibiraro cyangwa se imihanda zo kunyuramo n'abaturage ariko ziri mu misozi hejuru. Bakoreshaga ibyuma, ferabeto n'amakostara n'amasima n'ibindi bikoresho byinshi bakoreshaga.

Amashuri yubatswe ku bufatanye na Reta. Yubatswe neza, yubakwa ahantu heza h'ishyamba, iryo shyamba rifasha abanyeshuri kwiga neza bari kumva umuyaga uri kuva mu biti. Ubafasha gutsinda neza, kuko baba bari kumva bameze neza mu mutwe.

Iyi ni inzu yubatswe neza. Ni urusengero basengeraga mo, abaturage n'abakirisitu bose, abashaka gusenga bose bajaga kuhasengera.

Runo ni urusengero rusengerwagamo n'abadeperi, ku ruhande rwarwo hariho akazu k'umuntu ucururizagamo ibintu.

Inzu z'ubucuruzi zubatswe ku bufatanye na Leta, zifashaga abaturage mu kubegereza serivisi zijanye n'umwarimu sako, umwarimu sako gukabafasha mu kubika amafaranga gabo cyangwa se mu kwishyura amafaranga g'abanyeshuri mu gihe cy'amashuri bari kwiga.

Insengero zubakwaga na Leta ku bufatanye n'ubw'abaturage, kugira ngo bazajye baraza kuzisengeramo, bakiragiza Imana.

Inzu zubatswe ku bufatanye na leta; izi nzu zikorerwagamo ibijyanye no kwigisha abana b' incuke mu mashuri, hano bafite ikibuga cyiza gifasha abana gukina no kumva baruhutse mu mutwe.

Amashuri ga leta gubatswe neza kugira ngo begereze abaturage serivisi zo kwigisha abana, bose baje kwiga kandi biboroheye.

Inzu yubatswe ku bufatanye na Leta n'abaturage, ifasha abaturage kubegereza serivisi, cyangwa se abaturage baba badafite aho baba, bakabona aho baba biboroheye, Leta irabafasha bakabona aho baba abo baturage.

Abaturage bitabiriye inama. Umuyobozi ari kubagezaho ibijanye n'inama n'ibyo bagiye gukurikiza muri iyo nama. Abaturage bitabiriye ku bwinshi baje kumva icyo bateguriwe.

uyu mubyeyi ari gushaka uburenganzira bwe imbere y'abayobozi. Bari kumusomera ibisabwa kugira ngo yumve icyo abivugaho cyangwa icyo amategeko abivugaho. Uyu mubyeyi ari gushaka uburenganzira bwe imbere y'abayobozi. Bari kumusomera ibisabwa kugira yumve icyo abivugaho cyangwa icyo amategeko abivugaho.

Litiko ni imodoka zitwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange. Zibatwaraga zibavanye ahantu hamwe zikabajyana ahandi, bitewe n'aho buri muntu ashaka kuja.

Abanyonzi batwaraga abagenzi ku magare gabo, ubu bari mu kazi, batangiye gutwara abaturage ku magare gabo.

Abaturage bazindukiye muri gare kureba ko babonamo imodoka zitwaraga abagenzi nabo zikabatwara zikabavana ahantu bari zikabashira ahandi hantu bashaka kuja byoroshye.

Ku marembo ga gare habaga hariho icapa canditse ko ari gare, muri iyo gare hagomba kuba harimo imodoka nyinshi zitwaraga abagenzi zibavana aho bashaka zikabajana aho bashaka kujya.

Iki kimodoka ni igifuso. Gitwara imisenyi n'amabuye n'ibitaka. Ibintu nk'ibyo byinshi kandi biremereye. Cyoroshya ubuhahirane bw'ibintu.

Abaturage bagenda n'amaguru bagiye gushaka ibyo bakeneye, imodoka iparitse impande y'ikimoteri c'imyanda ijanye imyanda.

Abaturage bitabiriye kureba icyabereye mu mazi ,ubwato ni inzira y' amazi abaturage bakoresha bava hakuno baja hakurya bagakoresha ubwato.

Iyi ni imodoka itwaraga imizigo y'abantu, ariko hariho n'umuntu uyinjiyemo afite n'imbunda, itwaraga imizigo y'abantu.

Umumotari atwaye umugenzi kuri moto, amujanye aho ashaka ko amugeza. Nahagera. umugenzi arishura umumotari, babatwaraga kuri moto.

Aba bantu bacuruza ku mihanda. Bacururizaga ho amanite, bagacururiza ho n'utundi tuntu turi aho dusanzwe, ariko bagacururizaga ku muhanda.

Ugu n'umuhanda gw'amapave, gwagenewe kugendwamo n'abanyamaguru gusa, kubera ko gwitaruye guba guri gu ruhande g'umuhanda usanzwe gw'ibinyabiziga.

Abitabiriye igikorwa cyo kubaka imihanda ya kaburimbo. Muri iyo mihanda ya kaburimbo, harimo ibimashini bikora imihanda. Hariho n'abantu baje mu kazi kuri iyo mihanda.

Iyi modoka itwaraga ama esansi , igajanye mu zindi sitasiyo za esansi, itwaraga esansi izivanye ahandi hantu izijanye kuranguza.

Abamotari baparitse amamoto iruhande rw'inzu. Bambaye amajeri n'amakasike ariko bambaye amajiri asa bose amajiri y'umutuku.

Moto ni ikinyabiziga rusange，gitwaraga abagenzi n'imizigo zabo， kikabijana aho babatumye cangwa se kikajana umuntu aho agomba kuja mu buryo bwihuse cane.

Umuryango wa gare ya Nyagatare urafunguye, muri uwo muryango harimo inzira y'imodoka zinyuramo, muri gare haparitsemo amamodoka menshi.

Mu mihanda hagendagamo amamodoka n'amamoto n'abantu bagendesha amaguru, bose bagenderaga mu mihanda.

Mu muhanda wa kaburimbo huzuyemo imodoka nyinshi zitwaye ibintu, uwo muhanda ukaba urimo n'abantu benshi bari kugenda n'amaguru.

Imodoka zigendaga mu muhanda zishoreranye. Imodoka zimwe zitwaye ibicuruzwa, izindi zitwaye amakontineri. Zigenda mu muhanda mwiza wa kaburimbo.

Abaturage bitabiriye ingendo muri gare bajya aho bagomba kujya cyangwa bakeneye kujya ndabona bitabiriye bari muri gare hari abari bukoreshe kigali koci, hari abari bukoreshe ya hu, hari abari bukoreshe n'andi majanse.

Abanyonzi baparikaga ku mihanda bategeje gutwara abagenzi ,kugira ngo babageze aho bagiye nabo babishure amafaranga gabo babaga bakoreye babatwara.

Iyi ni imodoka itwaraga abagenzi, ibavana ahantu hamwe ibajana ahandi hantu byoroshye kubera ko ijagamo abagenzi benshi cane.

Abaturage bagiye gutega imodoka zibajana aho bashaka kuja, bagiye gutegera imodoka muri gare.

Abanyonzi batwaraga abagenzi ku magare. N'abamotari bagatwara abagenzi kuma moto .Bose baba bagenda mu muhanda mwiza gwa leta.

Abakobwa bitabira umukino wo gukinisha intoki, bawita basiketi, na bo barawukina bakawushobora.

Abakinnyi bari gukina umukino w'umupira wa tenisi, bakinaga mu kibuga kirimo imicanga.

Umukino gwo gusiganwa ku magare gubaga mwiza cane kuko gwitabirwaga n'abantu benshi, bavuye mu bice bitandukanye by'isi kugira ngo bashimishe abaturage babo.

Umukino gwa tenisi ni umukino gukinwaga n'abagabo n'abagore. Bagukinaga bakoresheje tenisi.....

Umukino gwa basikekite gukinwaga n'abagore n'abagabo. Ugu mukino, abantu bagwitabiriye ari benshi.

Abana bakinaga umukino gwa tenisi bahagaze mu kibuga bari gusuhuzanya bishimiye umukino gwabo gwa tenisi bagukinaga neza cyane.

Abakinnyi iyo bakinnye neza bagatsinda barabahembaga, babahembaga ibikoresho by'ibikombe cyangwa se bakabaha imidari, cyangwa se bakabaha sheke zanditseho amafaranga, ago mafaranga bakagifashisha mu bindi bintu babaga bakeneye bya buri munsi.

Aha ni ahantu bakoreraga umukino go koga mu mazi bibira, bazamuka muri pisine. Hakikijwe ibiti binini birebire.

Abakinnyi bari kwiruka mu kibuga. Ariko abantu benshi bitabiriye umukino gwuri kubera muri sitade. Baje gufana amakipe gabo gari gukinira muri stade, kugira ngo gatsinde.

Abanyeshuri n'abayobozi babo bishimiye igikorwa cya siporo bari gukata umugozi w'ibyishimo.

Umukinnyi afashe umupira mu ntoki bari gukina umukino wa bakete mu kibuga. Hari abandi bantu bawitabiriye baje kuwureba.

Abakinnyi bakinaga umukino gwa basiketi baratsinda, none ubu bari kwishimira intsinzi zabo kuko batsinze agandi makipe neza kandi gose.

Abitabiriye amarushanwa yamagare g'abakobwa, bari mu mihanda. Umukobwa atwaraga igare nk'umuhungu.

Urushundura, nigikoresho bakoresha muri siporo. Kiba kiri mu kibuga inyuma ku buryo iyo batereyemo umupira, baba batsinze igitego.

Abantu bafite ubumuga bw’ingingo na bo bakinaga umukino gwa basikete, kandi na bo bagukinaga neza kuko bishimisha abantu baba baje kugureba, na bo ubwabo bikabashimisha, bakumva ko badahejwe.

Abakinnyi bitabiriye umukino gwa basiketi，nago gubaga mwiza kuko bagukinishaga amaboko kugira batsinde.

Abitabiriye umukino wo gukina, bakinaga umupira w'intoki, cyangwa se basikete umukinnyi yakinaga umupira ,agasimbuka hejuru cyane akurikiye umupira.

Abana b'abakobwa n'ababahungu bakinaga umukino gw' amaguru nugo mukino gushimishaga abantu benshi.

Abaturage bitabiriye umukino muri sitade wahuje amakipe abiri. Abaturage bose bafite amadarapo y'ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda

Umukino wo kwirukanka ni umukino birukanka bafite inkoni, bakazitera imbere kugira ngo barebe aho bagejeje bapima igipimo, bifasha abaturage kwishima no kumva banezerewe bakanaruhuka mu mutwe.

Abakobwa bakinaga umupira w'amaguru, kugira ngo batsinde indi kipe bakinaga nayo.

Abantu bitabiriye umukino wo gusiganwa ku mamodoka. Abaturage bagwitabiriye cane, bagiye kureba uko imodoka zisiganwaga.

Hari umukino bakiniraga mu mazi ugo gubaga ari umukino go koga. Go bagukinaga bari kujya kuja mu mazi no hasi bakibira, bakoga bari munsi y'amazi.

Abakinnyi bitozaga mu kibuga cya basiketi. Bitabiriye imyitozo mu kibuga cya basiketi, bari kwitoza uko bazakina; bakinaga umupira w'amaboko.

Abanyamahanga bitabiraga umukino gw'amagare gubera hano mu Rwanda. Umukino gw'amagare baba basiganwa n'amagare bazenguruka mu gihugu cacu c'u Rwanda.

Bitabiriye umukino wo gukinisha intoki, bari gukina umupira w'intoki . Ufashe umupira arasimbutse, kugira ngo atsinde igitego mugenzi we.

Abaturage bitabiriye ku bwinshi umukino go gusigana ku modoka. Ugo mukino go gusigan ku modoka gurashimishije cyane.

Abakinnyi iyo bakinnye neza bagatsinda barishimaga cane. Bikanabafashaga kwitegura izindi micino bafite.

Umukinnyi ari kwitoreza mu mazamu afashe umupira. afashe umupira go gukina.

Umukino go gukina bagukinaga bari kurasa, cangwa se kumasha bakoreshaga. Inkoni iyo niyo barashishaga imbere bari gukina.

Umupira wa basiketi bawukina bari kuwufata bakawujugunya hejuru, abandi bakawusama, uwufashe yegereye mu gapaniye bawushiramo, agasimbuka akawuterekamo ubwo icyo kikaba kibaye igitego.

Abakinnyi iyo bagiye gukina, bose bambaraga amajezi gasa kugirango nibagera mu kibuga, bamenyane babone uko batsinda ibitego byinshi.

Abantu benshi bitabiriye amarushanwa go gusiganwa ku magare, abatwaraga amagare babaga bahagarariye amakipe gabo kugira ngo na go gabashe gutsinda iri rushanwa ry'amagare.